Ibikorwa rusange by'abaturage, aho bateraniye mu murima bahinga ndetse baca n'ibisoro by'imyaka igiye guterwa, kugira ngo bitegure ihinga ry'igihe kigiye gukurikiraho.

Inzu ibumbatiye ibikoresho, by'ubuhinzi n'ubworozi. Aho byifashishwa mu kuhira, ndetse n'imirama y'imbuto zigiye zitandukanye.

Igihingwa k'inzuzi, zirandaranda hasi aho bikurwaho amadegede, bityo akaribwa, ndetse n'ibibabi byabyo bikoreshwa nk'imboga, kugira ngo bitunge umubiri.

Iduka ririmo ibikoresho bigiye bitandukanye, cyane cyane inyongeramusaruro, ndetse n'imiti ishinzwe kurwanya udukoko twona, ndetse tugahungabanya ibihingwa, ndetse n'amatungo.

Abahinzi ntangarugero bakora ubuhinzi bugezweho, aho bahinga ibigori bagafumbira kugirango bigire umusaruro ukwiriye kandi utubutse.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukoresha inyongeramusaruro, aho umujyanama w'ubuhinzi ashyiraho ifumbire, kugira ngo ibihingwa bikomeze bikure neza.

Inzu irimo imiti y'ubuvuzi bw'amatungo, ndetse n'imirama y'imbuto zigiye zitandukanye, cyane cyane inyanya, ndetse n'ipombo yuhira umuti, ikica udukoko.

Iduka ricuruza imiti y'ubuvuzi bw'amatungo, ndetse n'iyo kwita ku bihingwa, aho bagira n'inama yuko wabigenza kugira ngo ukomeze utere imbere.

Umurima urimo abagabo bane, bafite amasuka, aho bari guhinga, ndetse batunganya aho imbuto izajya, bityo bigatuma umusaruro wabo ugenda neza.

Ibyapa bitandukanye byamamaza bisinesi, zikorwa n'abantu benshi, aho hari icyapa cyamamaza telefoni ya kamoni mirongo itatu, ndetse n'ibindi bigo byikorera, ndetse na emutiyene.

Inzu irimo imiti y'amatungo, ibikoresho bifashishwa mu kugaburira inkoko. Amapombo yo gutera imiti ibihingwa. Ndetse n'ibindi bitandukanye bifasha mu buhinzi, n'ubworozi.

Umuti wifashishwa mu kwica udukoko witwa Tuza, ndetse uraramba ugafasha mu kurwanya ibyonnyi byibasira ibihingwa, cyane cyane ibihwagari.

Iduka ririmo ibikoresho ndetse n'imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, hari imirama igiye itandukanye y'imboga nyinshi, inyanya ndetse n'ibikoresho bigaburira inkoko bikaziha amazi.

Iduka ririmo imiti itandukanye yunganira ubuhinzi n'ubworozi, aho umuganga atanga inama zikwiriye zo kwita ku bihingwa ndetse n'amatungo, kugira ngo bibyare umusaruro.

Umurima urimo umuhinzi, urimo ari gukora ifumbire ndetse ayikusanya kugira ngo abone uburyo ki azashyira ku myaka ye ndetse ikera, ikagira umusaruro uhagije.

Iduka ririmo imiti y'ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'ibifasha mukuvura ibihingwa bityo bigateza imbere ubuhinzi n'ubworozi muri rusange.

Umurima urimo ibigori, imyumbati ndetse hatangira kurundwamo ifumbire itegura imbuto nshya, igiye guhingwamo kugira ngo ibihingwa bizagende bikura neza.

Ubuhinzi bugezweho bwa kawa, aho umuhinzi yita ku burwayi bwayo, akamenya igikwiriye gukorwa ndetse agashaka n'inama ku bajyanama b'ubuhinzi.

Ubuhinzi bw'icyayi, aho bugerwa ku buso bunini, bityo bikazamura ubukungu bw'abaturage ndetse n'ubw'igihugu muri rusange.

Umurima usa nk'aho urimo amateke, aho nta kintu kindi giteyemo, ndetse imyumbati irimo, n'insina hirya, aho hari gutegurwa guterwa imbuto nshyashya.

Ubuhinzi bw'amasaka, aho ahingwa mu kibaya, bityo agatanga umusaruro uhagije ku bahinzi, kandi ndetse igihugu kikungukiramo kuko iyo abaturage bameze neza, nacyo kiba kimeze neza.

Ubuhinzi bw'insina, izitanga ibitoki n'izitanga imineke, aho byose bibumbatira hamwe mu guteza imbere umuturage, ndetse no kumushyigikira muri byose.

Ubuhinzi bugezweho bw'imbuto ndetse n'imboga, aho amapapayi aterwa n'insina z'ibitoki, bityo bikavangwa n'imboga kugira ngo bitange umusaruro utubutse.

Imigende y'amazi ndetse n'imirenzo yo guhingamo imbuto zitandukanye, ahacibwa ibisoro kugira ngo ibiterwamo bishyirwemo neza kandi bigire umusaruro ufatika.

Umurima wahinzemo insina, amaronji ndetse n'ibishyimbo ariko bisa nk'aho uri gutegurwa kugira ngo uhingwe ikindi kiciro cy'ihinga, maze abaturage babone umusaruro.

Ubuhinzi buteye imbere bwo guhinga ku murongo, aho ibirayi bifatwa neza ndetse bigahabwa ifumbire ihagije kugira ngo bibyare umusaruro kandi uhaza n'amasoko.

Ubuhumbikiro bw'ibiti bijye bitandukanye, aho bufasha mu kubungabunga no kugira ubuzima bwiza, bityo bikimurirwa aho bigomba guterwa byarakuze.

Ubuhinzi bugezweho bwa kawa za kijyambere, aho zitunganywa umusaruro ukagurishwa kuri Leta, bityo zikoherezwa mu mahanga.

Igiti cy'ipapayi giteye ahantu runaka, harimo ayeze n'ayatarera; bityo bigafasha abagisarura kubona intungamubiri zikivuyemo nk'imbuto, ndetse bigasagurirwa n'amasoko.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho bwibanda, ku gutera ku murongo ndetse no guhindwa ku imbuto n'imboga, ahantu hatandukanye, bityo bigafasha ababihinga gutera imbere.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho inyanya ziterwa ku murongo, ndetse zigashyirwaho ifumbire ihagije, bityo zikabyazwa umusaruro, ndetse zigahaza amasoko, ndetse n'abaturage zikabafasha.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, harimo inka, imbwa, intama ndetse n'ibindi, mu buryo kugira ngo zigire ubuzima bwiza.

Iduka ririmo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo, cyane cyane inka, ihene, imbwa ndetse n'ingurube kugira ngo bigire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ingurube, zitabwaho zigahabwa ibyo kurya, ndetse zigatanga umusaruro ushimishije, n'ifumbire, inyama, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuti wifashishwa mu buvuzi bw'amatungo, aho ufite miriritiro mirongo itanu, ukaba uterwa kugira ngo uvure indwara zigiye zitandukanye, inka n'ihene, ndetse n'izindi zitandukanye.

Umurima uteyemo imyumbati, ibigori ndetse umuhinzi arimo gukusanya ndetse anakora neza umurima kugira ngo abone uko azahinga imbuto igiye gukurikiraho.

Abaturage batera imbuto y'ibigori mu murima wamaze gutunganywa neza, bityo bigatuma umusaruro wabyo ugenda neza ndetse ukagira n'agaciro.

Umurima uteyemo ibigori, harimo umuhinzi urimo abagara ndetse atunganya aho imbuto zizajya, kugira ngo umusaruro ugende neza.

Ubuhinzi bw'umuceri mu gishanga aho abaturage bari gusarura bakusanya umusaruro ndetse n'abajyanama b'ubuhinzi, bakaba bari kubasura bareba uko ibintu bikorwa.

Abaturage bateraniye hamwe kandi benshi bari gukora umuganda, kugira ngo basibure imiferege y'amazi, bityo uwo muhanda ukomeze ube nyabagendwa.

Ubuhinzi bugezweho bw'ibigori, aho umuturage ahinga, ndetse agatanga n'umusaruro, bityo agakomeza kubaho neza, ndetse agasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bugezweho bw'irayi, aho umuturage afata imbuto agiye kuyishyira mu murima akabanza akareba ko imeze neza mbere y'uko ayitaba mu butaka bityo ikazazana umusaruro ukwiriye.

Abaturage benshi bari hamwe, barimo guharura umuhanda, bakora n'umuganda rusange, kugira ngo babe mu gace gasa neza, kandi gafite isuku.

Igikorwa rusange cyitabiriwe n'abaturage, mu muhanda nyabagendwa aho bari gukora isuku, bakora n'umuganda, ariko kugira ngo igihugu gikomeze kugira isuku aho dutuye hose.

Ubuhinzi buteye imbere bwo gukora akarima k'igikoni, ndetse harimo n'insina, abantu benshi bari gukora ndetse bita ku bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi bwa kijyambere, cyane cyane bwiganje ku bigori, aho abayobozi basura imirima, bareba abaturage imisaruro bagezeho kugira ngo bakomeze babashishikarize guhinga kijyambere.

Umurima urimo ubuhinzi bw'imyumbati, aho isarurwa mu gihe yeze. Umuhinzi akaba arimo yita kuko imyumbati ye izitabwaho.

Igikorwa rusange cy'umuganda, cyitabiriwe n'abaturage batandukanye ndetse n'inzego z'umutekano z'abasirikare ndetse n'abaporisi kugira ngo igihugu gikomeze kiteze imbere, kandi n'abaturage bashishikarizwe gukora ibikorwa byunganira igihugu.

Abantu bari hamwe, bateranye bakora umuganda rusange, mu guteza imbere Igihugu, baharura imihanda, abandi baganira ku mishinga yubaka, iterambere ryabo, ndetse n'iry'umuryango ku rusange.

Abanyeshuri benshi bari ahantu hamwe, aho bari mu turima tw'igikoni basasira imbuto bateye ,bari kumwe n'umwarimu wabo, kandi ubafasha kubahugura.

Ubuhumbikiro bw'imyaka y'ibigori, aho bishyirwa kugira ngo umusaruro utangirika bityo bikazakorerwa, ubundi buryo kugira ngo bidapfa.

Umusaruro w'umuceri ugaragara, aho abahinzi banika neza kugira ngo uvemo ubukonje, bityo bakabona amafaranga bagurishije kandi bakiteza imbere.

Ubuhinzi bw'inyanya, aho abaturage bakusanyije hamwe umusaruro kugira ngo bashake ababagurira mu buryo bwihuse, aho ari urujya n'uruza rwabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bujyanye no gutera ibishyimbo byera imiteja, bityo bigatanga umusaruro uhagije kandi ukwiriye uhaza amasoko ndetse n'abaturage.

Ubuhumbikero bw'ibihingwa by'ibigori, aho bishyirwa kugira ngo birindwe ibyonnyi ndetse umusaruro ukomeze ubungabungwe. Aho hari umubyeyi ufite bine mu ntoki yerekana uburyo ki umusaruro uba uteye.

Umuceri uhingwa mu gishanga, aho abahinzi bawitaho bakawubagarira kugeza igihe weze maze ukajyanwa mu ikusanyirizo ry'umusaruro, bityo bigatuma batera imbere mu kubona amafaranga.

Umusaruro ukusanyijwe hamwe w'umuceri, uri mu mifuka aho abaturage bahabwa amafaranga bitewe n'ibiro basaruye bityo bigatuma batera imbere.

Imbuto z'avoka aho umusaruro wazo wakusanyirizwa hamwe ndetse ukazanwa mu isoko aho abaturage bazitara, bakazikuramo amafaranga nyuma y'uko zihiye bakazigurisha.

Ubuhinzi bw'umuceri mu gishanga, aho abahinzi babiri umugabo n'umugore bari kwita ku bihingwa kugira ngo bigire umusaruro ufatika.

Agace kamwe mu gihugu, kitwa ku Bigega, ahari ubusitani bwiza ndetse n'ibiti biteye ku muhanda, bityo bigatanga akayaga keza kandi gasusurukije.

Umusaruro w'ibirayi, uri hamwe aho abaturage baba baremye isoko, bagiye kugura no kugurisha, bityo bagasagurira n'amasoko, ndetse n'abaturage bakabona ibyo barya.

Umusaruro w'ubuhinzi n'ibiwukomokaho, aho umusaruro ushyirwa mu nzu zabugenewe z'ubuhunikiro kugira ngo hirindwe ibyawangiza ndetse n'udusimba twatuma bipfa.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo aho bitewe neza ku murongo kandi n'ifumbire, bityo bikaba bivanze n'ibindi byatsi byifashishwa mu gukora icyayi ndetse n'ibindi nk'imboga za rwatsi, bityo bigafasha mu kubungabunga ibidukikije.

Imbuto ziteye neza z'amaronji, aho abaturage basarura bakajyana ku isoko, bityo bagakomeza kubaho neza, bagasiga inzira y'ubukene.

Ishyamba riteye kandi rifite ibiti birebire, aho bitanga umuyaga ndetse bikarwanya ibyangiza ikirere, bigatuma n'imvura iboneka ku gihe.

Ishyamba riri ahantu rifite ibiti bigiye bitandukanye, bityo rigafasha mu kubungabunga ibidukikije ndetse no kwita ku rusobe rw'ibinyabuzima.

Ibyatsi byameze ku ruhande, harimo amapera ndetse n'ibindi, hateye n'ibiti bitanga akayaga keza kandi bibarizwa mu bidukikije.

Ubuhumbikiro bw'ibiti byiganjemo inturusi, aho zishyirwa kugira ngo zitabwaho mu gihe zitarakura, bityo nizikura zishyirwe mu butaka bukwiriye, aho zigomba kujya.

Umurima uteyemo insina, ibishyimbo ndetse n'ibindi, aho umuturage ari kureba aho ibihingwa bye bigeze n'icyo yakongeramo kugira ngo bigire umusaruro uhagije.

Mu buhinzi bwa kijyambere, bw'imyembe, aho ifatwa nk'imbuto zikwiriye kwitabwaho kandi zigirira umumaro abaturage muri rusange, bityo bakabaho neza kandi bakagi n'ubuzima bwiza, bumeze neza.

Ubuhinzi bugezweho bwa avoka, aho zihingwa kijyambere, zigasarurwa zigashyikirizwa amasoko bityo zigateza imbere ababihinga ndetse n'abazigura muri rusange.

Ubuhinzi buteye imbere bw'imbuto, imboga, aho karoti, ibitunguru, intoryi, inyanya na epinari, bijyanwa ku isoko kugirango bihaze abaje guhaha.

Ubuhinzi buteye imbere bwa avoka, aho zihingwa neza mu buryo bugezweho kugira ngo zitange umusaruro kandi zisagurirwe n'amasoko maze n'abaturage babone icyo basarurana.

Ubuhinzi bw'imboga rwatsi aho ziteye mu karima k'igikoni, zikaba zifasha gutunganya indyo yuzuye bityo abana ntibarware indwara ziterwa no kubura indyo ifatika.

Amashu ari ahantu hamwe asa nk'ashaje, aho asarurwa kugira ngo afashe abantu mu kunganira intungamubiri bityo bakabaho neza.

Ubuhinzi buteye imbere bw'ibibiringanya, kokombure, ibitunguru, ndetse na povuro, harimo n'imiteja, aho abaturage bazana ku isoko, kugira ngo bagurirwe, bityo babone n'amafaranga.

Umurima urimo intoryi ziteye neza kandi zisasiwe, aho zifasha mu kuzamura intungamubiri z'umubiri ndetse zigafasha no kuzahura amasoko.

Umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi harimo imboga zigiye zitandukanye nk'imiteja, inyanya, intoryi, bizanwa ku isoko kugira ngo byunganire ubuhinzi bw'abaturage ndetse bibahe n'amafaranga.

Ubuhinzi buteye imbere, aho avoka zifashishwa mu gutegura amafunguro, ndetse zikaba zifite n'intungamubiri zigiye zitandukanye, bityo zikagomba gukoreshwa igihe cyose.

Ubuhinzi bw'ibitunguru, aho bikusanywa bikajyanwa ku isoko, iby'umutuku, iby'umweru, kokombure, pavuro, puwaro ndetse n'ibitunguru by'ibibabi, bityo bigafasha ababigura kubona intungamubiri neza zibakwiriye.

Umurima usasiye neza uteyemo intoryi n'amateke, aho imboga zikenewe cyane kugira ngo zifashe abazirya ndetse n'abakeneye kubaka umubiri mu biribwa.

Imbuto zigiye zitandukanye harimo amaronji, amacunga, inanasi, watermelon, ibinyomoro, pome ndetse n'ibindi, aho umucuruzi arimo abivuga ku kiro kugira ngo abagura baze kugura.

Ubusitani buteye neza, harimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ndetse n'ibifite indabyo, bituma ahantu hagaragara neza, ndetse hakagira isuku itandukanye n'ahatabifite.

Umusaruro ubumbiye hamwe wa karoti ndetse zijyanwe ku isoko, zigiye kugurishwa kugira ngo abahinzi babone amafaranga, atuma bongera bahinga kandi bakeza.

Ubwoko bw'ibyo kurya harimo amadegede, ibirayi ndetse n'imbuto, aho abaturage baba bakusanyirije kuzana mu isoko, kugira ngo babone amafaranga ndetse n'ibibatunga.

Umusaruro w'amadegede ava ku nzuzi. Aho umuturage, agurisha cyangwa se akajyana mu isoko kugira ngo, abone amafaranga yo ku mutunga, ndetse n'ay'imibereho.

Amacunga ndetse n'ubuhinzi bugezweho bw'imbuto, aho umuhinzi ashyiraho imishipiri kugira ngo ajye atondagiraho, bityo umusaruro uboneke neza.

Imboga ziteye mu karima k'igikoni, aho zifasha abateka gukoresha indyo yuzuye kugira ngo n'abagaburirwa bibagereho neza kandi bibagirire umumaro.

Ubuhinzi bwa kijyambere, ahari umurima uteyemo ibigori, imyumbati cyane cyane harimo kugaragara inyanya zihinze neza, zishingiriye ibiti bityo zigatanga umusaruro ukwiriye.

Umusaruro unejeje wakusanyijwe w'inyanya na karoti, zishyizwe ku isoko kugira ngo abacuruzi babone amafaranga, kandi n'abaguzi babone ibyo bahaha.

Ubuhinzi buvangavanze, aho abahinzi bakoresha uburyo gakondo, bahinga ibishyimbo, ibigori, ndetse bikababyarira n'umusaruro mu gihe kizaza, bityo bagasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere, aho bahumbeka imbuto za pavuro, kugira ngo igihe zakuze zaturirwe mu mirima yabugenewe, bityo zitange umusaruro nk'uko bigikwiriye.

Ingemwe z'imyembe zihumbitse hamwe kugira ngo zitange umusaruro, aho umuhinzi arimo azikuramo, ndetse areba izidafite ikibazo, bityo agakomeza kuzisigasira azibungabunga.

Ubuhinzi bw'imbuto harimo ibinyomoro, amacunga, aho bikusanyirizwa hamwe bikazanwa mu isoko kugira ngo rifashe abacuruza ndetse n'abagura kungukirana hagati yabo.

Ubuhinzi bwa kijyambere,m aho abahinzi batera imyaka bityo bakuhira kugira ngo igire umusaruro uhamye kandi utubutse.

Ubuhinzi bwa kijyambere, aho abahinzi bafata umupira bakuhira imboga zihinzwe mu gishanga, bityo bigatuma umusaruro utera imbere kandi ukaba mwinshi.

Ubuhinzi buteye imbere, aho uhinga yuhira imyaka kugira ngo igire ireme kandi itange n'umusaruro ukwiriye ndetse ufatika, bityo bikazamura ubukungu bw'ababikora.

Ubuhinzi bwa kijyambere aho umuturage yuhira imyaka ndetse agatunganya n'ubutaka buzashyirwamo imbuto, bityo umusaruro ukaza umeze neza.

Ubuhinzi bwa kijyambere budashingiye ku kirere, aho abaturage bahinga puwavuro ahantu hasasiye ndetse bakanuhira kugira ngo zimererwe neza kandi zitange umusaruro ukwiriye.

Ibihuru byameze hafi y'inzira ndetse bikaba bibumbatiye inyamaswa zigiye zitandukanye, bigatuma ibidukikije ndetse bijya mu rusobe rw'ibinyabuzima.

Ubuhinzi bukorerwa mu bishanga, aho imirenzo yugwamo ibiti bitandukanye, bityo bigatuma basagurira amasoko ndetse bagatera imbere, ndetse n'ibyo kurya bikaboneka.

Ubusitani bwegereye umuhanda, ahari amazu atuye ndetse n'imisozi itandukanye iriho amaterasi y'indinganire ndetse hahinze imyaka, hateye n'ibiti bitanga umuyaga bikabungabunga ibidukikije.

Ubuhinzi bugezweho bw'icyayi, ahasa nko mu misozi ihanamye, ibi bizahura ubukungu bw'abaturage, ndetse n'igihugu muri rusange.

Ibihingwa harimo ibigori bitewe mu kibaya, aho umusaruro ugaragara neza kandi bigenda bigaragaza uko bizera bimeze, bityo bigafasha abaturage kubaho neza ndetse no kugira amafaranga.

Itsinda ry'abahinzi bari hamwe, barimo gutegura umurima kugira ngo wakire imbuto neza kandi uzagire umusaruro uhamye.

Ubusitani bwiza, buteye neza aho ari ibyatsi, ndetse n'ibiti bitanga akayaga. Aho abantu bakicara mu gicucu. Bagafata umwanya wo kuganira, ndetse bakagira ibyinshi bungurana.

Umwana uri mu nzira nyabagendwa, aho areba inyuma aho aturutse kugira ngo amenye inzira neza aho igana bityo ataza kuyoba cyangwa se ngo ate inzira.

Ubworozi bw'inkoko iz'amasake ndetse n'izitera amagi, mu rwego rwo kwiteza imbere ndetse no gushyigikira ubukungu abazoroye bibafasha muri byose.

Ubworozi bw'ingurube aho, zibyagura zikagira ibyana, bikabyazwa amafaranga, na byo bikororoka, bityo ubukungu bukiyongera, bikabona uko byororoka.

Ubworozi bw'inka zororerwa mu biraro, aho zitanga umusaruro w'ifumbire w'amata ndetse n'amafaranga bityo bigatuma ubworozi butera imbere.

Ubworozi bw'ihene, amatungo magufi, aho bitanga umusaruro ku baturage, ifumbire, inyama ndetse n'amafaranga ku babikeneye.

Ubworozi bwa kijyambere bujyanye n'igihe, aho inkoko zitanga umusaruro w'inyama ndetse n'amagi, zororerwa hamwe kugira ngo zifashe abazorora, maze batere imbere ubukungu bwabo busigasirwe.

Ubuhinzi buteye imbere bw'amatungo magufi, harimo inkwavu, aho zigaburirwa neza kugira ngo zitange umusaruro, harimo ifumbire, ndetse n'umusaruro w'inyama muri rusange.

Umuryango w'abana batatu, papa na mama, aho borora amatungo magufi by'umwihariko ihene zitanga umusaruro w'ifumbire ndetse n'uw'amafaranga mu gihe byajyanywa ku isoko.

Ubworozi bw'amatungo magufi harimo ihene, aho ziri kugaburirwa kugira ngo zitange umusaruro n'ifumbire by'umwihariko utange n'amafaranga ku bazorora ndetse n'umusaruro w'inyama.

Inka ziteraniye hamwe ndetse n'abaturage baje kuziragira, kugira ngo zibeho neza kandi zigira ubuzima bwiza, bityo zitange umusaruro w'amata uw'ifumbire ndetse n'ibindi.

Abaturage bafite ubworozi buteye imbere, bakorera mu biraro; aho umwana wabo ndetse papa na mama barimo bagaburira inka ndetse n'ihene, kugira ngo zibahe umusaruro w'ifumbire ndetse n'ibindi.

Imbuga irimo ubusitani bw'ibyatsi, insina ziteyemo, inyenzi ndetse n'urugo rw'ibiti ahagaragara ihene itanga umusaruro w'ifumbire ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'inkoko z'amasake, zimwe zitanga inyama ndetse n'izitanga umusaruro w'amagi, aho umworozi wazo abyerekana ndetse agashaka no kubyamamaza.

Umuhanda nyabagendwa urimo amatungo magufi, hibandwamo ihene cyane cyane, aho ziragirwa ndetse zikabona ibizitunga, bityo zikabaho neza kandi zigatanga umusaruro ukwiriye.

Ubworozi bw'amatungo magufi bwihariyemo ingurube, aho zitanga umusaruro w'ifumbire ndetse zigatanga n'amafaranga ndetse n'inyama.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko ingurube, aho zihabwa imiti zikitabwaho bityo zigatanga umusaruro w'ifumbire, inyama ndetse zigatanga n'amafaranga.

Ubworozi bw'inka zororerwa mu biraro, aho zitanga umusaruro utandukanye yaba uw'amata, uw'ifumbire ndetse n'inyana zibyarwa zigatanga amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane inka, zororerwa mu biraro zigatanga umusaruro ushyitse yaba uw'amata, uw'ifumbire ndetse n'uwinyama, aho abajyanama b'ubworozi baba bitabiriye kugira ngo batange inama zikwiriye.

Ubworozi bw'ingurube, aho zitanga umusaruro w'ifumbire, uw'inyama, ndetse n'uw'amafaranga, ku borozi babishinzwe ndetse babihuguriwe.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane ingurube, aho zitanga umusaruro w'ifumbire, inyama ndetse n'amafaranga, iyo zijyanywa ku isoko zikagurishwa, bityo zigateza imbere uzorora.

Ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ingurube zitanga umusaruro mu buryo bwose, yaba ifumbire, ndetse n'inyama, cyangwa se mu kubona amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko ingurube, aho zifashishwa mu gutanga umusaruro, ifumbire ndetse n'inyama, kandi igatanga n'amafaranga.

Ubworozi bw'ingurube cyanecyane zitanga umusaruro w'ifumbire ndetse zigatanga n'amafaranga mu gihe zigurishijwe, ikindi zikatanga n'inyama mu buryo zagurishwa.

Ubworozi buciriritse bw'inkoko, aho izitera amagi n'iz'inyama byose byorohererwa hamwe, bigafasha mu iterambere ry'umuryango.

Ubworozi bwa kijyambere, aho hororwa inkoko zitanga inyama bityo zikunganira ku iterambere ry'igihugu, ndetse no gutanga umusanzu ku baturage, kandi bikavana mu bukene ababikoresha.

Ubworozi bw'amatungo magufi, by'umwihariko ingurube, aho zitanga umusaruro, ku mafaranga, ifumbire, ndetse n'inyama ku bazigura, bityo bigatuma ubukungu bwiyongera.

Ubworozi bw'inka aho zororerwa mu biraro kandi zikagira umusaruro mu buryo bwose, yaba umukamo, ifumbire ndetse n'ubundi buryo bwose.

Inka zororewe mu kiraro muri gahunda yo guteza imbere ubworozi; birinda gushyirwa mu gasozi, aho zitanga umusaruro w'umukamo, ifumbire, ndetse n'ibindi.

Ibiraro byaringanirijwe kororeramo ingurube za kijyambere, aho abajyanama bitabiriye gusura ndetse no kureba umusaruro wazo, gushishikariza n'abaturage kuzorora.

Ubworozi bw'amatungo magufi, harimo ingurube z'amabara agiye atandukanye, aho zitanga umusaruro w'ifumbire, inyama ndetse n'amafaranga, igihe bishyizwe ku isoko.

Ubworozi buciriritse bw'amatungo magufi, harimo inkoko, izitera amagi n'iz'inyama z'amasake; bituma umworozi atera imbere akabona amafaranga.

Ubworozi bw'amatungo magufi, bwibanda ku ngurube, aho zitanga umusaruro w'ifumbire, inyama, ndetse n'amafaranga mu gihe zagurishijwe. Bityo bigatuma abaturage biteza, imbere bakava mu bukene.

Ubuhinzi bw'imboga cyane cyane iz'amashu, aho abahinzi babona umusaruro mwiza kandi ugezweho; bityo bigatuma biteza imbere ndetse bagateza n'Igihugu muri rusange.

Ibitunguru bihinze mu murima, aho bitanga icyizere cyuko bizera bimeze neza kandi bigafasha abasarura uturima tw'igikoni kugira ngo bakomeze bagire intungamubiri zikwiriye ndetse na dodo rwatsi.

Umurima uteyemo ibishyimbo bigeze mu miteja, aho bitanga umusaruro kandi bikaba bisasiye neza, bigatuma abahinzi babona ibyo kurya kandi bagasagurira n'amasoko.

Ubuhinzi bwa kijyambere bw'amashu ndetse n'izindi mboga, aho zifasha abaturage kubona indyo yuzuye ndetse bagasagurira n'amasoko muri rusange.

Ubuhinzi bw'umuceri mu gishanga runaka, aho ugeze ibagara bityo witaweho ugatanga umusaruro mwiza kandi ushimishije.

Umurima uteguye neza urimo ibisoro, aho imbuto ishyirwamo kugira imere kandi ikaza ifite ireme kuko uba witaweho.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, aho bacuruza imbuto zigiye zitandukanye ndetse n'ibiribwa bitandukanye, nk'ibitunguru, karoti, intoryi, ndetse n'imyumbati, bityo bigafasha mu bukungu bwabo.

Ubuhinzi bugezweho bwo guhinga ibirayi ku murongo ndetse bikitabwaho birushijeho, bityo bigatanga ibyo kurya ku bahinzi ndetse bigasagurirwa n'amasoko, bigatanga amafaranga.

Ubworozi kandi bugezweho bw'amatungo, aho abaturage bafite inka ebyiri, bazigaburira kugira ngo zibahe umusaruro w'ifumbire, amata ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amatungo cyane cyane inka zirimo gutangwa ndetse zihabwa imiti n'ubuvuzi, zigaterwa inshinge kandi zigakingirwa indwara zigiye zitandukanye kugira ngo zikomeze gutanga umusaruro ukwiriye.

Ubuvuzi bw'amatungo cyane cyane inka, aho zihabwa ubufasha mu kuzitera inkingo kugira ngo zirinde indwara ndetse zigire n'umusaruro zimufashe ndetse zibyare n'umusaruro abandi.

Itsinda ry'abanyeshuri bari kwiga kubaga amatungo no kuyasubiza ubuzima, aho biga ubuvuzi bw'amatungo agiye atandukanye, aho barimo kubaga intama bari kumwe na mwarimu wabo aberekera.

Ubworozi bw'amatungo cyane cyane inka, aho uyoroye ayitaho akayikingiza ndetse akagirirwa n'inama z'uko agomba kuyifata neza bityo ikamuha umusaruro ukwiriye.

Ubworozi bwa kijyambere, aho inka zororerwa mu biraro ndetse zigatanga n'umusaruro ushyitse bityo umworozi agatanga ibishoboka byose ngo zimufashe mu buryo bwose.

Ubuvuzi bugezweho bw'amatungo y'inka, aho zihabwa urukingo bityo zigakomeza kubaho kandi zitanga umusaruro, umukamo, ifumbire ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iduka ry'imiti hari ibifasha ubuhinzi ndetse n'ubworozi kugenda neza, bityo amatungo agahabwa imiti yabugenewe, hagaragara umuti ushushanyijeho inka bifasha kuyivura.

Ubuvuzi bw'amatungo cyane cyane inka aho zihabwa ubufasha mu bijyanye n'imiti, bikozwe n'umunyeshuri wabyigiye ndetse n'umworozi w'inka.

Ubukerarugendo ndetse aho abitabiriye iki gikorwa bayoborwa n'ubishinzwe kubayobora, akabacisha ku kiraro cyo mu kirere bityo bagatembera ndetse bagatuma amadovize y'Igihugu yinjira.

Inyamaswa zo mu gasozi zirisha ubwatsi, aho zibungabungwa ndetse zikaba mu bidukikije, bityo zigatuma urusobe rw'ibinyabuzima rwiyongera.

Ubworozi bw'inzuki, aho zitanga umusaruro, bityo zigatuma ababikora batera imbere, kandi zigatuma urusobe rw'ibinyabuzima rukomeza kubungabungwa.

Itsinda ry'inyamaswa zo mu gasozi ziri kuririsha ubwatsi kugira ngo zibeho, maze ibidukikije bikomeze bisigasirwe kandi urusobe rw'ibinyabuzima rukomeze rukundwakaze.

Inyamaswa zo mu gasozi, cyangwa mu ishyamba, aho udusumbashyamba ndetse n'izindi zirisha ibyatsi, kugira ngo zibeho. Bityo zigakomeza gusigasirwa, kandi zigakurura ba mukerarugendo.

Ingagi ziri mu ishyamba, aho zikurura ba mukerarugendo ndetse zigatuma amadovize y'igihugu yiyongera kandi akaba ari n'umutungo, igihugu gifite wo kubungabunga ibidukikije.

Ubukerarugendo ku baturage aho bishimiye gutambagira igihugu ndetse bakanatemberezwa ibyiza byo muri nyungwe, bagendera ku kiraro cyo mu kirere bityo bakamenya igihugu.

Icyapa giha ikaze abinjira muri parike y'ishyamba rya Nyungwe; aho abaturage bagenda basura ndetse bitabira ibikorwa by'igihugu kandi bakurura ba mukerarugendo.

Urusobe rw'ibinyabuzima bigiye bitandukanye, harimo inyoni z'amabara meza, umuhondo, umukara n'umutuku, ndetse n'ibiti bigiye bitandukanye, aho bibarizwa mu rusobe rw'ibinyabuzima ndetse bituma ibidukikije bigira agaciro.